Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama bambaye neza cyane bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu ihema risize amabara y'umweru, bicaye ku ntebe z'imikara, bisa nk'aho bari mu nama yiganjemo abagore n'abagabo, ni ibintu bigaragara neza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu bisize amabara y'umweru impande zose, bamwe baricaye abandi barahagaze, higanjemo abagore n'abagabo imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abagore babiri bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru barakeye cyane imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa na za terefone. Hari ufite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe bicaye ku ntebe z'imikara barakeye cyane, imbere yabo ku meza y'umutuku hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa na za murandasi higanjemo abagabo n'umugore umwe.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baricaye, undi arahagaze afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kiyageza ku bandi, bari mu busitani akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, bicaye ku ntebe z'imyeru n'imikara, urabona ko ari ibintu byiza cyane, bibereye ijisho.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe, baracyeye cyane. mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku murongo bisa nkaho bari mu nama. Imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore babiri n'umugabo umwe.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, mu nzu isize amabara y'umuhondo, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, mu nzu isize amabara y'umuhondo, yiganjemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, higanjemo urubyiruko, abagore, ndetse n'abagabo basa nk'abakuze, wagira ngo bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, bicaye ku ntebe z'umuhondo.

Abana ni abantu, bari ahantu hamwe, bicaye mu byatsi abandi barahagaze, imbere y'ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi, yhganjemo abagore n'abagabo, bisa nkaho bari mu nama.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, ni ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo n'umweru bicaye ku ntebe z'imikara higanjemo umugabo, n'umukobwa usa nk'aho akiri muto, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, bisa nk'aho bari mu mama, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa na za murandasi, higanjemo abagabo gusa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane bambaye impuzankano z'ubururu bicaye ku ntebe z'umuhondo, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane nk'uko bigaragara, higanjemo abakuze, abagore ndetse n'abagabo, urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bari mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku murongo bisa nkaho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagabo n'abagore.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, baracye cyane, mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku ntebe z'imikara, bari ku murongo, higanjemo abagore ndetse n'abagabo bisa nkaho bari mu nama.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzankano z'umweru, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, afite ibyishimo, ari guseka nk'uko bigaragara ku maso he agasatsi ke karasoko, yambaye amadarubindi, ikote n'ishati y'umweru, ateruye igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama, higanjemo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imituku, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, hari ibyo ari kuvuga, afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kiyageza ku bantu benshi, yambaye ingofero n'ishati y'ubururu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye ku murongo bisa nk'aho bari mu nama higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa; bari mu nzu isize amabara y'umweru.

Umugabo ubona usa nk'ukuze arakeye cyane yicaye ku ntebe y'umukara, agasatsi ke karasokoje, yambaye amadarubindi, agashati k'umweru, afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi, imbere ye hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, biganjemo urubyiruko bambaye impuzankano z'ubururu, bicaye ku ntebe z'umuhondo n'umweru, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, bisa nk'aho bari mu nama.

Abana ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracye cyane imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ateretse ku meza y'umweru higanjemo abagore n'abagabo urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe baracye cyane bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara bisa nk'aho bari mu nama imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagabo n'umugore umwe.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracye cyane bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri batatu, bari ahantu hamwe imbere y'imeza y'umutuku, bisa nk aho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, higanjemo abagore babiri, ndetse n'umugabo umwe.

Abana ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bicaye ku murongo ku ntebe z'imihondo bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo bari mu nzu isize amabara y'umweru.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikarara ni ku murongo, higanjemo abagore n'abagabo bambaye amakote, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane, bari guseka bafite ibyishimo ku maso yabo, bambaye impuzankano z'umutuku, higanjemo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imyeru.

Aba ni abagabo batatu ubona bari ahantu hamwe, hari n'abandi benshi barishimye cyane bari guseka bareba muri murandasi, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, bari mu nzu isize amabara y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara ku murongo, bari mu nzu isize amabara y'umweru, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, yiganjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu babiri higanjemo abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara mu nzu isize amabara y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo ateretse zamurandasi n'uducupa tw'amazi higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye ku murongo ku ntebe z'imyeru higanjemo abagore n'abagabo bisa nk aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeyeye cyane, mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku murongo, bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo bateretse za murandasi, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imihondo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, barakeye cyane, bambaye impuzankano y'umukara, higanjemo abakobwa n'abahungu.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe baracye cyane mu nzu isize amabara y'umweru bicaye ku ntebe z'imikara bisa nkaho bari mu nama yiganjemo abagabo n'abagore imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, bisa nk'aho bari mu nama, mu nzu isize amabara y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracye cyane, bari mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku ntebe z'imikara, bari ku murongo bisa nk'aho bari mu nama, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye kumurongo ku ntebe z'imikara, bari munzu isize amabara y'umweru, yiganjemo abagore, n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa twamazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri batatu biganjemo abagore bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa bisa nk'aho bari mu nama, mu nzu isize amabara y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa; bicaye ku ntebe z'imikara higanjemo abagore n'abagabo ni ibintu bibereye ijisho.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, biganjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, bicaye ku ntebe z'imyeru n'imihondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane mu nzu isize amabara y'umuhondo, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, higanjemo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, bisa nk'aho bari mu nama bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze yambaye ikote ry'ikigina ishati y'umweru afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kiyageza ku bantu benshi ari guseka bigaragare ko yishimye.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu ifite amatara ashashagirana ari hejuru, bicaye ku ntebe z'imikara, bisa nk' aho bari mu nama, yiganjemo abagore n'abagabo, imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe baracye cyane kandi bafite ibyishimo higanjemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama bicaye ku ntebe z'umuhondo, imbere ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bambaye neza, higanjemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, baracye cyane, biganjemo abagore n'abagabo, bisa nkaho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, na za murandasi, bicaye ku ntebe z'imikara.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe , higanjemo abakuze, abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo Hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, bisa nk'aho bari mu nama, mu nzu isize amabara y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, imbere y'abo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa n'impapuro bari kwandika, bari mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracye cyane urebye ku myambaro yabo, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bose bicaye ku murongo, ni mu nzu isize amabara y'umweru.

Abana ni abantu bari ahantu hamwe, ni benshi cyane, barakeye, higanjemo abagore gusa, imbere yabo hari imeza y'ubururu, iteretseho telefone n'agacupa k'amazi, bicaye ku ntebe z'imyeru.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe, bafite ibyishimo bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore babiri n'umugabo umwe.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, umuhondo n'umukara bisa nk'aho bari mu nama bicaye ku murongo higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, higanjemo abagore n'abagabo, bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imituku, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abana abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bafite ibyishimo, bari guseka, higanjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imituku.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo umugabo ukuze wambaye imyenda y'icyatsi, afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kiyageza ku bantu benshi bari aho bambaye impuzankaho z'umuhondo.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwemye barakeye cyane mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku ntebe z'imikara bisa nkaho bari mu nama, imbere yabo kateretse uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagabo n'umugore umwe.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama, higanjemo urubyiruko rw'abantu bakiri bato abahungu n'abakobwa, imbere yabo hateretse uducupa twa amazi yo kunywa.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, agasatsi ke karasokoje, afite ibyishimo ku maso he, hari ijambo ari kuvuga, yambaye ikote ry'umukara n'ishati ijya gusa ubururu, imbere hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane bisa nk'aho bari mu nama. Bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa na za murandasi, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bisa nk'aho bari mu nama bicaye ku ntebe z'imikara higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara bose ni ku murongo, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse impapuro nyinshi n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane, mu nzu isize amabara y'umuhondo amatara yaka neza bicaye ku ntebe z'imyeru, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'imituku, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe, bicaye ku murongo ku ntebe z'imyeru bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abakuze, abagore n'abagabo, bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho ari urubyiruko mu nzu isize amabara y'umweru bambaye impuzankano zisa umukara higanjemo abakobwa n'abahungu, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane mu busitani bwiza, butoshye bw'icyatsi higanjemo abagore n'abagabo, hirya yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umunara muremure usize amabara y'mweru n'umutuku ukikijwe n'ibiti byiza byinshi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baherereye aho ngaho bose.

Uyu ni umunara muremure usize amabara y'umweru ndetse n'umutuku, ufasha abawukoresha kubona itumanaho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitabasabye kuba bakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga nyinshi zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi rikikijwe n'ibiti binini kandi byinshi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baherereye aho ngaho bose.

Ibi ni ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubatuye aho ngaho bose, munsi yabyo ari inzu nini isanzwe, ifite amabati y'umutuku.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, rikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo z'umuhondo n'ibiti binini bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hari ibiti birebire bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Iri n'ipoto rirerire rishinze mu busitani bwiza butoshye bw'icyatsi ndetse n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi, n'indabo z'umuhondo, byuzuyemo insinga nyinshi zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, munsi yaryo hari ibiti bitanga akayaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, rikikijwe n'ibiti byinshi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Aya ni amapoto maremare yuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi akikijwe n'ibiti binini by'icyatsi kibisi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aya ni amatara yo ku muhanda, yuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, akikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'umurongo w'umweru, ku ruhande hahagaze umumama ubona usa nkukuze, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, ku mpande haranyura abantu bagiye batandukanye ndetse hari n'ibiti birebire by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbeziye.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umuhondo, ibirahure byijimye, hasi yayo hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hasi yaryo hari ubusitani bwiza burimo indabo z'icyatsi zitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Aya ni amapoto maremare yuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, akikijwe n'ibiti byinshi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi, ndetse n'amakoma y'icyatsi.

Aya ni amapoto maremare, yuzuyeho insinga nyinshi zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, akikijwe n'ibiti bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi, kubagenda aho ngaho bose.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga nyinshi zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi rikikijwe n'ibiti binini by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, ukikijwe n'ubusitani bwiza bufite indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umuhondo n'iz'icyatsi ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, haraca ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto ndetse n'abantu bahagenda.

Ubu ni ubusitani bwiza kandi butoshye bugizwe n'indabo zigiye zitandukanye yaba iz'umuhondo n'izicyatsi imbere yabwo harimo nyinshi ninzu ndende yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, imirongo y'umweru, ku ruhande hari ubusitani bwiza burimo ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi hirya gato hahagaze ibinyabiziga nka moto n'imodoka.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haragendamo abantu benshi bambaye impuzankano y'umweru higanjemo abagore n'abagabo ukikijwe n'ubusitani bw'icyatsi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo imodoka, ukikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ubu ni ubusitani bwiza butoshye burimo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'icyatsi n'iz'umuhondo, bukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubagenda aho ngaho bose.

Aba ni abantu benshi bari kugenda bari ahantu hamwe, higanjemo abagabo n'abagore, hirya yabo hahagaze imodoka y'umweru irimo umutuku n'ubururu ndetse hari n'igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ubu ni ubusitani bwiza kandi bunini urabona ko butoshye harimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umuhondo, iz'umutuku n'iz'icyatsi hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru bicaye ku murongo, imbere yabo ateretse za murandasi n'impapuro zitandukanye bose bambaye amataburiya.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, n'imirongo y'umweru hagati, hirya gato hari amazu ya etaje, agerekeranije y'umuhondo, afite amabati y'umutuku.

Uyu ni umugore ubona usa nkukuze arakeye cyane yambaye amadarubindi ingofero y'umukara irimo umuhondo ndetse n,ikanzu y'umutuku ifite umweru hagati urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe baracyeye cyane bambaye impuzankano zisa umweru ndetse n'umukara, bicaye ku murongo imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, nta byishimo afite ku maso he, agasatsi ke karasokoje, ari mu nzu isize amabara y'umweru, yambaye ikanzu y'umutuku irimo umukara hagati.

Uyu ni umugore ubona usa nku'kuze, umusatsi we urasakoje, arakeye cyane, afite ibyishimo ari guseka yambaye ikanzu y'umutuku irimo umweru hagati, urabona ko ari ibintu bimubereye cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abakuze, abagore ndetse n'abagabo, hari abicaye n'abahagaze imbere y'ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni ni umugore ubona usa nk'ukuze, arakeyeye cyane, ari mu nzu isize amabara y'umuhondo, yambaye ikanzu y'umutuku irimo umukara n'umweru hagati, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze, arakeye cyane, imisatsi ye irasokoje, yambaye amadarubindi y'umukara, ikanzu y'umutuku, afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kiyageza ku bantu benshi.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo bambaye impuzankano y'umukara, hagati harimo umweru higanjemo abagore n'abagabo barakeye cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bambaye impuzankano z'umukara n'umweru, bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, hari abicaye n'abahagaze, higanjemo abagore n'abagabo. Iruhande rwabo hari igiti kinini, kirekire cy'icyatsi gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze arakeye cyane, yambaye amadarubindi, ingofero y'umukara irimo umuhondo ndetse n'ikanzu y'umutuku hagati harimo amabara y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, higanjemo abagore n'abagabo, bose bambaye impuzankano zisa umutuku, umweru ndetse n'umukara, n'ibintu bibereye ijisho ry'ubireba.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande no hagati haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodokarya, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru ku ruhande no hagati, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, hagati hahagazemo umupolisi uri kuyobora ibinyabiziga nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye, gisize amabara y'umutuku n'umweru, amagambo yandikishije umukara ndetse n'umunwa ni uko.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye bifite amabara y'umutuku, ubururu, amagambo yandikishije umweru n'iminwa y'umukara

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye, biri ahantu hasize amabara y'umweru, ubwabyo bifite umutuku, umukara ni ibintu byiza nawe watunga iwawe.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato huzuye abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, aragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amagare ndetse n'imodoka na moto. Hirya gato hari abantu bahagenda benshi.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye gisize amabara y'umutuku hagati hari umweru ndetse n'umunwa w'umukara ni ingenzi kuba wagitunga iwawe.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye gisize amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'umunwa w'umukara n'ingenzi kuba wagitunga i wawe.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto ndetse n'abantu bahagaze aho.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye, kimwe muri cyo gifite amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umunwa w'umukara.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye, gisize amabara y'umutuku, ubururu amagambo yandikishijwe umweru, umunwa w'umukara ndetse n'umuhondo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru. Ku ruhande no hagati haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abakuze, abagore ndetse n'abagabo n'urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bari ku murongo bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane, ni abagabo bambaye amakote ndetse n'abagore, ni uko bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abagore benshi, bari ahantu hamwe, basa nk'abakuze, bose bambaye kimwe, impguzankano zirimo umweru n'umutuku, bafite utudarapo twiza, urabona ko ari ibintu bibereye ijisho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bambaye impuzankano zisa icyatsi, bicaye ku ntebe z'imyeru, higanjemo abagore bakuze, ndetse n'urubyiruko rw'abakobwa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane bisa nk'aho bari mu nama. Bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bigaragarira ijisho, bambaye impuzankano zijya gusa umweru, ubururu, n'umutuku, higanjemo abagore n'urubyiruko n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane bambaye impuzankano z'umweru n'ubururu, hari abicaye n'abahagaze bafite ibipapuro mu ntoki zabo higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane, higanjemo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imikara, bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane uko bigaragara, bambaye impuzankano zisa umweru, umutuku, ndetse n'ubururu. Higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa na za murandasi, higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Uyu ni umugabo ubona usa nkukuze yicaye ahantu hamwe ku ntebe y'umukara agasatsi ke karasokoje afite ibyishimo yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru imbere ye hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Uyu ni umugore ubona usa nkukuze umurebye ku maso he arakeye cyane umusatsi we urasokoje yicaye ku ntebe y'umukara imbere hateretse agacupa k'amazi ndetse n'impapuro yambaye ikote ry'ubururu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abagore n'abagabo bakuze, bambaye impuzankano y'umweru, ubururu n'umukara, bafite ifoto y'umukuru wigihugu cy'u Rwanda mu maboko yabo.

aba n'Abantu babiri barakeye cyane bambaye amadarubindi ,higanjemo umugore n'umugabo bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa na za murandasire.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze hari ibyo ari kuvuga yambaye amadarubindi, ishati y'umweru afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kiyageza ku bantu benshi mu ntoki ze.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye n'imodoka, hirya gato hari abantu bahahagaze n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto, n'igare. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, hagati no ku ruhande hahagaze ikinyabiziga cy'imodoka cy'ubururu gitwara imizigo, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, uragendamo umuntu ucunga igare, ryikoreye imizigo, hirya gato hari ibiti birebire, bitanga imiyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto n'igare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, anyuramo ibinyabiziga bitandukanye by'imodoka nk'iy'umweru, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, haranyuramo ikinyabiziga kinini gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki ni ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abagenzi muburyo bwa rusange, gisize amabara y'ubururu, umweru, ibirahure bibonerana ndetse n'amapine y'umukara, iruhande rwacyo haracaho umusore usa nk'ukuzeho gato.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ikinyabiziga kinini cyikorera imizigo, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ikinyabiziga cy'ubururu n'umweru kinini cyikorera imizigo imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara imirongo y'umweru; hagati haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye by'imodoka hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, kuruhande hagati haracamo ibinyabiziga bitandukanye; yaba imodoka nini itwara imizigo y'umutuku, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, aranyuramo imodoka nini itwara imizigo y'ubururu, hirya gato hari ibiti byinshi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye, n'imodoka, na moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange y'ubururu n'umweru n'ibirahure bibonerana.

Uyu ni umuhanda wo ubwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byose bimenyerewe mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange yaba ibinini n'ibitoya

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga kinini cyikorera imizigo cy'umutuku, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande no hagati haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usa nkushaje, usize amabara y'umukara, hahagazemo ikinyabiziga gitwara abagenzi, mu buryo bwa rusange, cyumweru n'ibirahure bibonerana.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, hagati no kuruhande aranyuramo ikinyabiziga cya moto, hirya gato hari ibiti byinshi bitanga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, n'imirongo y'umweru, hagati no ku ruhande hari ibinyabiziga byinshi, nka moto, imodoka, n'amagare, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga cy'imodoka cy'umuhondo, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye by'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye: nka moto, igare, n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ahagazemo ibinyabiziga binini bitwara abantu mu buryo bwa rusange, hirya gato hari ibiti byinshi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, ku ruhande haranyuraho abantu ndetse hahagaze n'ikinyabiziga cyikorera imizigo cy'ubururu, hirya gato hari inzu y'ibirahure.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye, igare na za moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange moto n'igare hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto n'amagare, hirya gato hari abantu benshi bari kuhaca.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru hagati haranyuramo ikinyabiziga cya moto, hirya gato hari ibiti bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hahagaze ibinyabiziga by'imodoka, hirya gato hari igiti kirekire cy'icyatsi gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, urasa nk'ushaje, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, hirya gato hari abantu bahagenda.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka n'igare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara usa nk'ushaje, haragendamo ikinyabiziga cy'imodoka y'umweru, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande n'utundi tw'umuhondo hagati, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usa nk'ushaje, haragendamo ibinyabiziga bitandukanye, yaba imodoka na moto z'ubururu zikorera imizigo, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, hagati no kuruhande haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari inzu ya etaje.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, hahagazemo ibinyabiziga bitandukanye nk'amagare. Hirya gato hari abantu benshi n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, ku ruhande no hagati hari ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, imirongo y'umweru ku ruhande indi y'umuhondo hagati, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye yaba moto itwara abagenzi ndetse n'indi itwara imizigo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange y'ubururu, n'umweru, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ikinyabiziga cy'imodoka kinini gitwara imizigo cy'icyatsi, ndetse n'igare hakurya hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange cy'imodoka y'Umweru ndetse na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru isa n'ishaje, harimo ibinyabiziga bitandukanye bitwara abantu mu uburyo bwa rusange, ibinini n'ibitoya.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati no ku ruhande haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto yikorera imizigo ndetse n'imodoka itwara abantu.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuhande haracamo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga kinini cy'umweru n'ubururu gitwara imizigo, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara anyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'igare na moto n'imodoka zifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haragendamo ibinyabiziga bitandukanye, yaba ibitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ndetse n'ibyikorera imizigo byose n'imodoka. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto, n'amagare. Hirya yawo hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara usa nk'ushaje haragendamo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka hirya gato hari abantu bahari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga cy'umutuku kinini cy'imodoka, gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange n'igare, hirya gato hari ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye by'imodoka, hirya gato hari abantu barikuhagenda, ndetse na moto zihahagaze.

Uyu ni umuhanda uba mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, hayuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'igare, moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande haracamo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye n'imodoka n'igare ryikoreye imizigo, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga byinshi bitandukanye nka moto n'imodoka n'amagare, hirya gato, hari abantu bahagenda higanjemo abagore n'abagabo.

Ubu ni ubusitani bwiza kandi bunini bw'icyatsi bisa nkaho ari aho bakinira, hakikijwe n'ibiti birebire bitoshye bitanga umu n'amahumbezi kubari aho ngaho bose.

Ubu ni ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi burimo indabo nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'akarongo k'umuhondo, hagati haranyuramo ibinyabiziga nk'amagare, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru. Ku ruhande no hagati haranyuramo ibinyabiziga byinshi bya moto, hirya gato hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda cyerekana amerekezo ku bawukoresha kigizwe n'amabara y'umutuku, umweru, n'umukara gikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara imirongo y'umweru hagati no kuhande, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande no hagati, haracamo ikinyabiziga nk'imodoka, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara yumukara n'umurongo w'umweru, kuruhande hari ibiti byinshi byicyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ndetse n'icyapa cyerekana amerekezo cy'umuhondo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, n'imirongo y'umweru, kuruhande hari ubusitani bwiza, buririmo ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi, n'icyapa cy'umutuku n'umweru.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, ku ruhande haracamo abantu bagiye batandukanye, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'mukara n'imirongo y'umweru hagati no kuruhande aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye, nka moto n'imodoka hirya gato hari ibiti bihuzuye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, haranyuramo abantu bagiye batandukanye yaba abagore n'abagabo, hirya gato hari imodoka ihahagaze n'igiti kirekire gitanga umuyaga.

iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etage igerekeyije, isize amabara y'icyatsi n'ibirahure by'umukara, ikikijwe n'ibiti nabyo binini, bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga cya moto, ukikijwe n'ubusitani bwiza n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usi amabara y'umukara ukikijwe n'inzu ndende za etage zigerekeranije zifite ubusitani burimo indabo zitandukanye yaba iz'umutu, iz'umuhondo n'iz'icyatsi

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranije, igizwe n'ibirahure byinshi hejuru, hasi gato ubusitani bwiza butoshye, bw'icyatsi n'umuhondo n'umweru.

Aha ni ahantu huzuye amazu menshi agiye atandukanye, yaba ayo mu bwoko bwa etage ageranyije asize amabati y'umutuku, akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aha ni ahantu huzuye amazu menshi cyane agiye acyeye, akaba akikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, kuruhande ukikijwe n'amazu menshi agiye atandukanye, yaba aya etaje ndetse n'ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aya ni amazu menshi, ari ahantu hamwe, yiganjemo ayo mu bwoko bwa etaje n'andi asanzwe, amabati yayo asize amabara y'umutuku. Azengurutswe kandi n'ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etage igerekeyije isize amabara y'umweru ubururu bwijimye imbere yayo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo abantu benshi bagiye batandukanye nk'abakobwa n'abahungu ndetse n'ibinyabiziga nka moto n'igare, hirya gato hahagaze amamodoka.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, imirongo y'umweru ku ruhande, indi y'umuhondo, hagati hacamo ibinyabiziga byinshi nk'imodoka, hirya gato hari inzu ya etaje igerekeranije.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara usa nkushaje, hirya gato hari abambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru ku ruhande, hagati hahagaze ikinyabiziga cya moto, hirya gato ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aha ni ahantu hari amazu menshi kandi meza, yiganjemo ayo mu bwoko bwa etage, agerekeranyije, akikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara imirongo y'umweru, ku ruhande hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ndetse n'ibinyabiziga bihahagaze.

Uyu ni umuhanda w'amabuye ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubagenda aho ngaho bose, urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho ry'ubireba.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, hirya gato abantu bahagaze ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amambezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umweru impande zose ndetse n'amadirishya y'umukara, ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbeziya.

Aba ni abantu benshi ubona bari kugenda bari ahantu hamwe, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, hirya gato hari ibinyabiziga bihagaze nka moto, n'inzu isize amabara y'ubururu.

Aya ni amazu menshi yuzuyemo ayo mu bwoko bwa etaje agerekeranyije, afite amabati asize amabara y'umutuku, akikijwe n'ibiti birebire bitoshye by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, ku ruhande hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga binyura aho ngaho byose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, ku mpande no hagati haracamo ikinyabiziga cy'imodoka, hirya gato hari ibiti byinshi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukarara, haranyuramo ibinyabiziga nka moto, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi, bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi kubagenda aho ngaho bose.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, hagati no ku ruhande haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange n'igare, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara, y'umukara n'uturongo tw'umweru, kumpande, akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru hagati no ku ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, ku ruhande no hagati haracamo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, hirya gato haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye by'imodoka, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuhande no hagati, haranyumo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka, hrya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru n'indi y'umuhondo hagati. Hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande no hagati, hirya gato hakikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, imirongo y'umweru ku ruhande no hagati, hirya gato hari ibiti birebire byicyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, ku ruhande hari ubusitani bwiza n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka ndetse n'abantu.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, bisa nk'aho ushaje, ukikijwe n'ibiti byinshi, birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi, ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umuhondo hagati hahagaze igare hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi biteye amahumbezi n'akayaga.

Uyu mu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka nini zikorera imizigo, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, kuruhande haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka na moto, hirya gato hari ubusitani bwiza, buteyemo ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uturongo tw'umweru, ku ruhande hagati haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezisi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru ku ruhande, mo hagati haranyura ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, aranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande hacamo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, n'imirongo y'umweru, ku ruhande no hagati, haracamo abantu bambuka, n'ikinyabiziga cya moto gihagaze.

Ubu ni ubusitani bwiza bw'icyatsi, butoshye, buteyemo ibiti byinshi, birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi, hirya gato hari icyapa kinini cyo mu muhanda cyerekana amerekezo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'akarongo k'umweru. Hagati haracamo ikinyabiziga cya moto ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo imodoka nini yikorera imizigo, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo umuntu utwaye igare, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi, bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, n'uturongo tw'umweru, kuruhande haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye, nka moto ukikijwe n'ibiti birebire bitoshye bitanga umuyaga na mumbezi.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, imirongo y'umweru kuruhande, haracamo ikinyabiziga cy'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usa nk'ushaje haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka na moto n'amagare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyuni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nka moto n'imodoka hirya gato ari ibiti birebire bitanga umu n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto, hirya gato ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, ku ruhande rw'ubusitani bwiza butoshye burimo indabo zitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bihanyura byose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka hirya gato hakikijwe n'ibiti byinshi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru ku ruhande no hagati haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka: moto, igare n'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usibye amabara y'umukara n'imirongo y'umweru hagati no ku ruhande ubusitani bwiza burimo ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi birebire.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no ku ruhande haracamo ibinyabiziga bitandukanye nka moto hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, n'imirongo y'umweru, haragendamo ibinyabiziga byinshi, nka moto, n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nka moto n'igare rya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, ku ruhande hari ubusitani bwiza burimo indabo n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bihanyura byose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru ku ruhande, ndetse no hagati haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye, nka moto, n'imodoka hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.